Umugabo wambaye ikote ry'ikositimu w'inzobe wambaye na karuvati, akaba afite indangururamajwi na mudasobwa imbere ye, bisa naho bari gutanga ikiganiro.

Abantu benshi bahagaze harimo abamama bafite ihene n'umuyobozi ushinzwe umutekano n'idarapo y'u Rwanda n'amazu hafi yaho barasa nkaho izo hene arizo bahawe.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu muri sitade isakaje amabati, ifite n'amabara y'umweru n'umuhondo, bari kureba imbere bari mu nama kuko hari abayobozi.

Abantu bicaye bari mu nama buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye, imbere hari abandi batatu bicaye harimo umugore umwe n'abagabo babiri bari gukoresha iyo nama.

Inyubako nziza cyane ifite amabara y'umweru hasi harasa ubururu, hahagaze abantu benshi cyane bakoze uruziga; abagabo, abagore, abana ndetse n'abakobwa beza cyane.

Abantu bicaye bameze nk'abari mu nama bambaye udupira tw'ubururu turiho idarapo ry'u Rwanda, hari mo abasore benshi ndetse n'umugore umwe w'inzobe ufite ikawa na telefoni imbere ye.

Abantu benshi bicaye ahantu hameze nko mu cyumba k'inama, buri wese imbere ye hateretse amazi, bamwe barikureba muri telefoni, ariko imbere hari abantu batatu bari kubakoresha inama.

Abantu benshi cyane bicaye, bisa n'aho aho bari mu nama, kuko imbere hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara, wagira ngo ni we ubahagarariye.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye ndetse n'indangururamajwi, imbere hicaye umuntu wagira ngo niwe uri kubakoresha iyo nama.

Aha ndabona abantu bicaye batatu bareba muri mudasobwa, hari abandi hirya bameze nk'aho bari mu nama ariko abicaye kuri iyi mudasobwa ni abantu harimo babiri b'abayisilamu, bambaye utugofero tw'abayisilamu.

Abantu benshi cyane bicaye harimo n'abahagaze bambaye imyenda igiye itandukanye bari kureba imbere bameze nk'abari mu nama imbere hakaba hahagaze umuyobozi uri kubakoresha iyo nama.

Abantu bicaye bambaye neza amakositimu buri wese imbere ye aterete gacupa k'amata ndetse n'agatasi karimo icyayi, hari n'indangururamajwi imbere yabo bari mu nama.

Icyapa cy'umweru cyanditseho inyuguti ziri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo. Hirya y'aho hari akantu kameze nk'intebe nziza cyane y'umukara kandi ifite amapine.

Umunara muremure cyane uri mu mabara y'umweru n'umutuku, munsi hari insina hari n'ibiti byinshi cyane byo m'ubwoko bw'ibimera.

Umugore wicaye ku ntebe y'mweru wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara ari kumwe n'umwana muto bari kureba mu byuma by'ikoranabuhanga bya mudasobwabwa barasa n'aho hari serivisi bari gushakamo.

Icyapa cya banki y'igihugu y'u Rwanda itsura amajyambere, kiriho utubara tw'ubururu n'utundi tw'umweru kiri kwamamaza bizinesi, ubukerarugendo n'ukuntu wakwiyandikisha.

Icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo menshi cyane hariho n'utuziga tune twanditsemo umubare w'amafaranga. Mbese bari kwerekana uburyo umuntu yakoresha ari kwishyura umusoro.

Aha ngaha ni munzu itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, nko gufotora impapuro no gutanga serivisi za banki nko kwishyura amazi ndetse n'umuriro.

Umuntu uri kugenda mu gahanda k'igitaka, wambaye ibintu by'umukara, imbere hari ipoto ndetse hari n'igipironi kirekire cyane gitwara insinga z'amashanyarazi.

Ipoto bibiri bishinze, hejuru hariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi impande yabyo hari ibiti bigiye bitandukanye bitanga amahumbezi.

Turi kubona abantu bari gusohoka mu nzu, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, amadarubindi n'ipantaro ndetse n'umugore uhetse umwana, uhetse n'agakapu, akaba ari kumwenyura n'abandi bari kumwe na we.

Umuntu uri kuza yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, hirya hari undi wambaye imyenda isa ndetse uwo uri kuza akuruye akantu gafite amapine.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, hari abicaye ku ntebe ndetse n'abicaye hasi bitwikiriye umutaka, bisa nk'aho bari ku biro by'akagari gaparitseho moto, imbere hari umuntu uhagaze uri kubakoresha inama.

Abantu bane bambaye impuzankano ngofero z'umukara harimo akabara k'umuhondo, ku dushati tw'umutuku n'imbere harimo utw'umweru bicaye ahantu imbere yabo hari indangururamajwi bameze nk'abari mu nama.

Aha ni mu rukiko, hari abantu batatu bambaye amakanzu y'abacamanza, bafite dosiye mu ntoki. Hari n'undi muntu umwe, wambaye ibintu by'umweru.

Umugore wambaye ishati y'umutuku imbere yambariyeho iyindi y'umweru afite amaherena, imisatsi y'umukara miremire kandi akaba asa inzobe nziza cyane.

Icyapa kiriho abantu benshi bicaye bazamuye amaboko cyanditseho ngo inkiko gacaca, handitseho kandi ngo ubutabera ubwiyunge. Kiramamaza ko abantu bagomba kwiyunga.

Ahantu hari ikibuga kigari cyane, haparitsemo imodoka nyinshi ndetse n'abantu, ariko hari umupolisi ufite urupapuro ari gukoresha umuntu ikizami ushaka uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishuri, afite igikoresho bakoresha bazimya umuriro, hirya ye hari abandi banyeshuri benshi cyane bari kureba uburyo ari kuzimya gaze.

Abantu babiri bicaye umwe n'umugabo undi n'umugore umugabo yambaye ishati y'umweru na marinete n'ipantaro n'inkweto umugore yambaye ishati yicyatsi naagakweto bahagaze bicaye ahantu inyuma hari amarangi y'ubururu.

Abantu benshi cyane bari kugenda, imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru iriho udubara tw'icyatsi n'umuhondo hari n'abagore bamukikije, abo bantu bafite amabendera wagira ngo bari kwiyamamaza.

Abantu batonze umurongo benshi cyane cyane, imbere aho bari kujya hubatse ibyo bita amatente ari mu ibara ry'umweru atakishije udutako tw'ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Abantu batatu bari kugenda muri kaburimbo ndetse hari na moto itwaye umugenzi, hirya yayo hari imodoka itwara abagenzi benshi cyane izwi nka shirumuteto.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo, harimo umumotari utwaye moto, hirya ye hari urupangu ndetse n'igiti cy'mababi menshi.

Ku muhanda wa kaburimbo urimo umuyonzi utwaye igare n'umumotari utwaye moto inyuma hari akamodoka k'umweru wagira ngo kagiye kubahitaho.

Aha ni muri gare, turi kubonamo abamotari bafite moto, harimo uwambaye ingofero y'ubururu n'akajiri. Hirya haparitse imodoka ya bisi nini.

Imodoka iri mu ibara ry'ubururu izwi ku izina rya Howo itwara ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye, umucanga, udutafari duhiye iri kugenda muri kaburimbo.

Ni mu muhanda wa kaburimbo aho tubona imodoka y'ikamyo itwara imizigo iri kugenda. Hakurya no hakuno hari inzira z'abagenzi, hari n'ibiti biri mu mabara y'icyatsi bigiye bitandukanye.

Iyi n'inyubako imenyerewe mu Rwanda nka sitade, aho abantu bicaraho bakareba umupira igihe abakinnyi bari gukina, inyuma hari urugo kandi hari udutebe tw'icyatsi.

Aha ni ikibuga bakiniramo ubwoko bw'umukino witwa Tennis. Aho baba bafite agapira bakagenda bagahererekanya. Hakurya hari umugabo wagira ngo ari kureba uyu mukino.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye zingana, cyanditse mu mabara y'ubururu n'umweru, hariho inyuguti ya P iri mwibara ry'umweru bigaragara ko ari aho imodoka ziparika.

Iki ni icyapa gikunze kuba kiri muri kaburimbo cyerekana ko umuhanda ufite udushami imbere aho uri kugana hari imodoka iri kugenda muri kaburimbo ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo w'amabara y'umweru n'umukara, hari kunyuramo imodoka ndetse hari n'icyapa cy'umutuku n'umweru, iruhande rw'umuhanda hari indabo zigiye zitandukanye n'ibiti binini cyane.

Icyapa kiba kiri ku muhanda kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, hashushanyijeho abantu babiri bigaragaza ko ari ikigaragaza ko imbere hari aho abagenzi bambukira muri kaburimbo.

Inyubako y'igorofa igeretse gatatu, ikaba isakaje amabati y'umutuku. Hino yayo hari kaburimbo iri mu mabara y'umweru n'umutuku, n'inyubako bari kubaka itaruzura.

Inyubako y'igorofa igeretse kane hino yayo hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo ibiti bigiye bitandukanye byashimisha buri wese.

Umugabo usunitse igare rihambiriyeho utuntu ari guturuka muri kaburimbo, hirya hari inyubako nziza cyane ndetse n'ibiti n'imodoka iparitse munsi y'ibyo biti, icanye amatara y'umutuku.

Inyubako nziza yubatswe muburyo bugezweho, isakaje amabati y'umutuku hakurya hari umujyi munini cyane ndetse iyo nzu ifite uruzitiro.

Iyi nyubako ndende cyane isize irangi ry'mweru iriho ibirahuri byiza cyane, hejuru hateretseho ibigega bitatu by'umukara bitanga amazi.

Ipikipiki iriho umumotari wambaye ingofero y'umutuku, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya yaho hari inyubako nziza cyane zigifite n'ubusitani.

Inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye ziri mu mujyi, hari isakaje amabati y'ubururu n'izindi zisa umweru, munsi yazo hari urugo rwubakishije amabuye n'umuhanda w'ibitaka.

Uturonko tw'umweru tugiye turimo amabara y'umukara, turi muri kaburimbo. Birasa n'aho ari ho abagenzi bambukira. Hakurya, hari y'ibyapa bicanye amatara y'umutuku.

Mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato, hashyizweho uturonko tuba turi muri kaburimbo abagenzi banyuramo kugira ngo batagongana n'ibinyabiziga, noneho umuntu utwaye moto yahagera agategereza.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo imbere hari ibiti by'amoko agiye atandukanye, ndetse n'amapoto acana amatara yo ku muhanda kugira ngo ahantu habone.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umukara n'umuhondo, hari ibiti imbere yawo ndetse n'amapoto atanga umuriro w'amashanyarazi, hari inzira z'abagenzi uruhande.